Abahinzi kugira ngo tubone umusaruro ushimishije ni uko dukoresha uburyo butandukanye urugero nko gutera imiti, hari igihe duhinga ibihingwa noneho hakazawa mu ndwara y'udusimba, icyo gihe uba ugomba gutera imiti itandukanye kugira ngo wice utwo dukoko noneho uzabasha kubona umusaruro wifuza.

Aha hari ibijyanye n'ubuhinzi. Hariho imiti dushobora gukoresha, mu buhinzi kugira ngo twongere umusaruro cyangwa se twice nk'udusimba dushobora kuba twaraje mu myaka. Iyo miti kuyikoresha bituma twongera umusaruro kubera ko iyo wahinze igihingwa hakazamo ibisimba cyangwa se hakazamo nyine indwara, ntukoreshe umuti ngo uzice ntago ubasha kubona umusa...

Iyo uri umuhinzi uba ugomba gukoresha imiti yo gutera yo gutera mu bihingwa, kugira ngo ubone umusaruro mwinshi n'igihe byaba byatewemo udusimba cyangwa se indi ndwara yaba ishaka kwataka iki gihingwa, nko mu gutera imiti, kugira ngo urwanye iyo ndwara.

Amafi ni utunyamaswa twororerwa mu mazi two kuribwa. Ushobora kuzorora ugamije kujya uzirya wowe ubwawe cyangwa se n'umuryango wawe cyangwa ugamije kuzigurisha kugira ngo ubone amafaranga. Ubu ugomba rero kwirinda kuzangiza ukazifata ari uko ubona zikuze.

Urutoki ni igihingwa gitanga umusaruro kandi kigatanga umusaruro mwinshi kandi mu gihe kitari kirekire ,utanga umusaruro kandi mu gihe gitoya, iyo wagihinze ugomba kucyitaho ugasasira kugira ubone umusaruro mwinshi byaba ngombwa ukanagifumbira ukongeraho ifumbire mwishi igihe ubona umusaruro.

Ubworozi bw'amafi ushobora no kubwikorera ugafata amazi ugacukura nk'icyobo uba wacukura mu rugo noneho ukajya uvoma mazi ukasukamo amazi menshi cyane, ukayatega ku buryo adashobora gutemba noneho ukororeramo ayo mafi, ushobora kuyororora ushaka kuyarya cyangwa se ukujya uyagurisha ukabona amafaranga.

Ahantu haba hari ibiyaga cyangwa se ibyuzi, buri wese aba agomba kwirinda kuba yajyamo kuroba amafi hakajyamo abantu babiherewe uburenganzira, akaba aribo bajya kuroba kandi bakirinda kuroba amafi akiri mato atarakura ahubwo bagakuramo amafi yakuze bagasigazamo akiri mato kugira ngo nayo azabanze akure.

Hano ushobora korora amafi, ukoresheje ibyuzi. Icyuzi ni cya kindi bafata bagacukuramo icyobo mu mbuga, cyangwa mu rugo nyine rw'umuntu, noneho ukajya uvomeramo amazi warangiza ugashaka nk'ifi rimwe cyangwa abiri, ugashyira muri ayo mazi bikagenda byororoka bikazaba amafi menshi.

Korora, korora amafi cyangwa se indagara ziba mu mazi bazororera mu mazi, ibi ushobora kubyorora ugamije kubona amafaranga, ugamije kubyirira. Ibi bituma umuntu agira ubuzima bwiza, gutekereza neza, binarinda n'indwara nyinshi zo mu mubiri zishobora kwataka umubiri.

Ubu ni ubworozi bw'amafi, ubworozi amafi yororerwa mu mazi aba ahantu hose hari amazi, aya mafi rero kuyorora ni ingirakamaro dushobora kuyorora tugamije amafaranga, tugamije kuyarya, bigatuma tubona ayo mafaranga tukajya gukemura ibibazo bimwe no kuyarya bigatuma tugira ubuzima bwiza kuko agira intungamubiri.

Hari ibihingwa bimwe na bimwe duhinga tugamije kubona amafaranga, urugero: ubuhinzi bw'ikawa, ubuhinzi bw'ikawa ni ubuhinzi dukora tugamije kubona amafaranga, ubu buhinzi rero iyo tubwitayeho tugakoresha ifumbire mva ruganda, tugakoresha ifumbire y'imborera tuba tubona umusaruro mwiza kandi ushimishije.

Hariho ibihingwa duhinga, urugero nk'ikawa, ikawa tuyihinga tugamije kubona amafaranga ukayihinga ugamije kuyigemura mu masoko menshi agiye atandukanye. Iyo kawa rero iyo wayiseho ikawa itanga umusaruro mwinshi cyane kubera ko igira amafaranga igira amafaranga abahinzi bayo rero nabashikariza gukoresha imborera nyinshi bakanazitaho kugira ngo....

Icyayi ni igihingwa gihingwa buso bunini mu duce tumwe na tumwe icyo gihingwa gishobora kweramo. Ubwo rero iyo kitaweho neza gitanga umusaruro buryo umuntu ashobora kwiteza imbere binyuze mu kuba yarakitayeho neza bityo kikamuha umusaruro ukwiriye akagurisha akabona amafaranga.

Hariho ibihingwa duhinga, tukabihinga ku buso bunini, tutagamije kubirya ahubwo tugamije kubigurisha kugira ngo tubone amafaranga, ibyo bihingwa rero tuba dukwiriye kubyitaho, uko bikenewe kose kugira ngo tubashe kuzamura umusaruro.

Igihingwa cy'ingano ni igihingwa gihingwa ahantu harambuye cyane ho mu gishanga kigahingwa kugira ngo tubone amafaranga ni igihingwa gikunda gukenerwa n'abantu kenshi cyane bashobora kugikoramo ibintu byose nyine bishobora kukiryamo imitsima cyangwa se bakagitekamo igikoma kitera intungamubiri.

Ubuhinzi bwinshi, ubuhinzi bw'imiceri, ubuhinzi bw'icyayi bukorerwa ahantu mu gishanga hari amazi menshi, butanga amafaranga. Tugihinga tugamije kubona amafaranga, igihingwa rero gisaba kuctaho ukakoresha imbonerera nyinshi kugira ngo ubone umusaruro mwinshi.

Ingano, ingano: ni igihingwa n'igihingwa gihingwa kigahingwa ahantu ho mu gishanga harambuye cyane hatari mu misozi. Icyo gihingwa kikaba gihingwa tugamije kubona amafaranga. Igihingwa cy'amafaranga, umuntu ahinga akajya agemura mu masoko, akabona amafaranga menshi uko bishoboka kose kandi agatera imbere.

Imiti y'amatungo nayo ifasha aborozi aba borora amatungo mu rugo ku buryo iyo arwaye ababishinzwe baraza bakayakingira bakayavura ku buryo bigabanya impfu z'amatungo kandi bakazikingira ku buryo hagize nk'ikibazo kiba zika zarya nk'umuntu kumuvura biba byoroshye cyane.

Hari imiti imwe n'imwe dukenera gukoresha iturutse nko ku matungo ivura indwara zimwe na zimwe zigiye zitandukanye, iyo miti rero ituruka ku mutungo wenda nk'inka ziri gukamwa hari igihe bacunda amata bakuramo amavuta, ariya mavuta aturuka mu mata y'inka, ariya mavuta n'ingira kamaro cyane...

Inyamaswa zitewe umuti cyangwa se zikingiwe, nazo zirinda abantu, nk'inyamaswa zishobora kuba ziba mu rugo, ku buryo hagize impanuka zibaho zikaba zarya umuntu, kubera ko ziba zikingiye ntacyo yaba, ariko iyo zidakingiye bishobora guteza ikibazo cyane, kubera ko inyamaswa idakingiye ishobora kwanduza umuntu burwayi bukomeye.

Abahinzi barahinga bakagera igihe bajya gusarura; bashobora kujya kubisarura bakabijyana mu rugo kubihunika cyangwa se bakabijyana mu masoko kugira ngo babone amafaranga. Biba byiza rero iyo abahinzi bakoresheje ifumbire nziza y'imborera, bagakoresha n'imvaruganda kugira ngo bazabone umusaruro mwiza ushimishije.

Abahinzi bakoresha uburyo bwinshi kugira ngo bahinge, bashobora nko gufata nk'imbuto ushaka ko zimeza bajyenda bazinjiza mu mashashi kugira ngo zizabashe gukuriramo. Bafata agashashi bagashyiramo itaka rikeya, bagashyiramo urubuto rukazakuriramo noneho igihe rwaba rumaze gufata rugeze hejuru bakabona uburufata akaba aribwo bajya kurutera mu murima.

Abantu bakora ibintu bijyanye n'ubuhinzi baba bagomba guhinga neza bagasiga hagati y'imyaka umwanya kugira ngo bizabone uko bitanga umusaruro mwiza ushimishije, urugero nko guhinga ibigori uba ugomba gusiga hagati mo umwanya kugira ngo bizabone uko bikura.

Abahinzi bahinga bakoresheje uburyo butandukanyesho, urugero nko guhinga avoka ushobora gutera avoka ushaka kuyibangurira urashobora kuvuna agati kamwe ukomekaho akandi, kandi washishuye ukagasatura kugira ngo uyitere ibanguriye, iyo ibanguriye itanga umusaruro mwinshi kuruta uko wapfa kuyitera ari inyarwanda.

Abahinzi baba bashobora guhuza, guhuza ubutaka. Mbega abakita nyine gufata ahantu bakahahinga igihingwa kimwe, bakagira kugira ngo bose nyine bahinge igihingwa kimwe, bazabone umusaruro munini. Bagahuza ubutaka bw'igihingwa kimwe, bakazasarurira rimwe, bakuramo igihingwa kimwe akaba ari bwo babona gushyiramo ikindi.

Ubuhinzi bw'icyayi ni ubuhinzi akenshi bukorerwa ahantu mu bishanga, ahantu hari amazi menshi, ubu buhinzi rero butanga umusaruro iyo bwitaweho, ugakoresha ifumbire y'imborera, ugakoreshasha n'imvaruganda, bituma umuntu abona umusaruro mwinshi kandi ushimishije.

Ni ubworozi bw'inka, korora inka na byo ni ingirakamaro cyane bituma tubona amafaranga, tukabona amata, tukabona ifumbire y'imbora nyine bikadufasha mbese no kubaho neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, tukagemura amata ku makaragiro tukabona amafaranga, tukabona amata adutungira imiryango, ubu bworozi nabwo ni ingirakamaro cyane.

Guhinga ibihingwa ku mitabo, biradufasha kubera ko bituma tubona umusaruro mwiza kandi tukawubona mu buryo bworoshye bitatugoye, imitabo igomba gucibwa akenshi ahantu hashashe cyangwa se mu gishanga, ni ho bakunda guhinga ku mitaho.

Igihingwa k'imbuto kitwa umwembe. Ni igihingwa gitinda kwera. Umwembe ni igihingwa gitinda kwera, kera gifashe igihe kinini ariko kera igihingwa k'imbuto ziribwa. Izo mbuto zishobora kurinda indwara zimwe na zimwe. Ni byiza rero ko umuntu azitera kubera ko kugira ngo age abona imbuto.

Imyumbati na yo ni igihingwa cyiza, bagifasha abantu kubona amafunguro mu buryo bworoshye, ubwo rero ibi bihingwa hagomba kwitabwaho, bikabungwabungwa kugira ngo bizabashe gutanga umusaruro nyawo, igihe byeze kandi biba bishobora n'igihe ari myinshi kuba wabijyana ku isoko, ukabona amafaranga.

Guhinga ibihingwa igihingwa k'imyumbati. Igihingwa cy'imyumbati ni igihingwa ufata ugatera igiti cyavuye ku wundi mwumbati, bakongera bakagishinga mu butaka kikazamuka, kikazazanaho iyindi myumbati. Icyo gihingwa bashobora kugihinga kugira ngo kizabatunge mwe n'umuryango wawe, cyerera hagati y'umwaka cyangwa amezi atandatu.

Abahinzi duhinga ibihingwa bitandukanye, dushobora guhinga ibihingwa tugamije kugira ngo tuzabihunike, tuzabirye igihe runaka byeze, ukabihunika igihe bizaba ibyo kurya bidahari byinshi, tukarya bya bindi twahunitse, tukabihinga tugamije kubirya gusa, atari ibyo kugurisha ku masoko.

Dushobora guhinga ibitunguru, ugahinga inyanya, ugahinga mboga tutagamije kubijyana mu masoko ahubwo tugamije kubirya twe n'imiryango yacu, biba ari ingirakamaro guhinga ibi bihingwa tukabirya twebwe n'imiryango yacu kubera imboga ziturinda indwara, imbuto nazo zirimo intungamubiri zirinda indwara.

Ibirayi ni igihingwa ushobora guhinga iwawe mu rugo, ugamije kugira ngo mujye mubirya n'umuryango wawe. Ibihingwa by'ibirayi bihingwa mu buryo bwo guca umwobo Ugashiramo ikirayi, ukazabimera ,noneho wamara kubimerera, nyuma yaho ukazajya gukura, birashoboka ko wabibika mukazajya mubirya bukebuke.

Duhinga igihingwa kitwa igihaza, icyo gihingwa ni igihingwa gikunda guhingwa mu cyaro, ahantu hasa naho nyine harambuye, ari ibihingwa byo kurya n'umuryango wawe kugira ngo mugire ubuzima bwiza, birinda n'indwara.

Imihanda, imihanda ya kaburimbo idufasha ibintu bitandukanye ubwikorezi ituma dukora ubucuruzi, igatuma dukora ingendo tuva ahantu hamwe tujya ahandi none amashamba atuma tubona umwuka mwiza duhumeka tubona ibijyanye no gucana, igatuma nyine tubona amashamba nayo ituma atanga ko utuce bitandukanye kandi byingirakamaro so mureke dusigasire amashyamba twirinde gutema ibiti bikiri bito.

Amashamba kimeza tuba dukwiriye kuyabungabunga kuko adufitiye akamaro kanini cyane, inyamaswa zishobora kubamo, agatuma tubona umwuka duhumeka kandi agakurura imvura, bityo tukayibonera igihe, ubwo rero tuba dukwiriye kuyabungabunga, tukayitaho uko bishoboka kandi ni inshingano ya buri munyarwanda wese.

Ibintu bijyanye n'amashyamba cyangwa imisozi n'ingirakamaro cyane kubera ko byongera ubwiza nyaburanga bw'ahantu kandi bikanatuma tubona umwuka mwiza duhumeka. Bitewe n'umuyaga nyine uba ugenda bigenda biduhererezanya nyine biduha umwuka mwiza tukagira ubuzima.

Amashyamba ni ingirakamaro cyane adufasha mu bintu byinshi, adufasha kubona umwuka mwiza , adufasha kubona kubona amafaranga, adufasha kubona amapoto, kugira hakwirakwizwe umuriro, adufasha kubona inkwi zo gucana, adufasha kubona amakara, amashyamba nayo ni ingirakamaro cyane mu buzima bwa buri munsi, buri muntu wese rero agomba kwirinda kuba yayangiza.

Ubuhinzi bwibiti cyangwa se bw'indabo, ni ubuhinzi bwiza butuma abantu babona ogisigene nziza, ukabona nyine haboneka umwuka bahumeka mwiza, kandi bikanatuma n'ahantu hakomera hakaba hatatwarwa n'isuri mu buryo bwihuse vuba vuba, bituma nyine hagira ubudahangarwa.

Ni ibyingenzi ko dutera amashyamba hafi y'imigezi, gutera amashyamba hafi y'imigezi n'ingikamaro kubera ko bituma wa mugezi ukomera nyine udapfa gutwarwa, udapfa gutwarwa n'isuri kubera ko bya biti biba byaratumye hakomera, kandi nanone ibiti bituma tubona umwuka mwiza duhumeka tukagira ubuzima bwi...

Amashyamba yakimeza nanone kuyabungabunga ni ingenzi kuko aya mashyamba ashobora kuba intaho z'inyamaswa zigiye zitandukanye. Adufasha kubona imvura, ubwo rero ahantu aya mashyamba ari tuba tugomba kuyabungabunga tukayitaho kandi tukirinda kuyonona tukayasarura ari uko yeze neza kugira ngo adacika vuba.

Buri munyarwanda wese akwiye kubungabunga amashamba kuko amushamba ni ingenzi cyane, atuma tubona imvura, tukabona umwuka duhumeka kandi ahantu hateye ibiti, ntabwo isuri ishobora kuhibasira, ubwo rero no mu gihe bibaye ngombwa ko utema igiti, uba ugomba kwibuka ko utagomba gutsinsura burundu cyangwa se ukahatera ibindi, dore ko n'inyamaswa nyinshi ari mwo ziba.

Indabo na zo ni ikintu k'ingenzi cyane kuko zishobora kwataragitinga ba mukerarugendo kandi ahantu ziri hagaragara neza, ubwo ero gutera indabyo ni ingenzi kandi aho ziri tuba tugomba kuzitaho tukazibungabunga kugira ngo zigire isuku n'ababibona babone ko ari ubusitani bumeze neza cyane.

Ubuhinzi bw'imbuto n'imboga n'indabo ni ingenzi cyane. Kubera ko, gufata ibyo biribwa byose by'imbuto ukabirya cyangwa se bitera, biba bifite intungamubiri. Kandi bikarinda n'indwara zitandukanye mu buzima bw'umuntu.

Ubu ni ubuhinzi bw'imbuto, ushobora guhinga imbuto mugamije kuzirya, cyangwa se mugamije kuzikuramo amafaranga. Ubu buhinzi rero akenshi biba byiza bukozwe ahantu ho mu gishanga, bubona amazi nibwo zibasha gutanga umusaruro mwinshi.

Ubuhinzi bw'imboga n'imbuto n'indabo, bugira akamaro mu buryo bwinshi, buduha amafaranga, bugakurura ba mukerarugendo, bugatuma bugatuma ahantu hasa neza, butuma tugira ubuzima bwiza mu bijyanye no kurya imbuto, tukagira tukabona umwuka mwiza, bitewe n'umwuka indabo ziba zihari cyangwa se izo mbuto ziba zatumye duhumeka, tukagira ubuzima bwiza.

Ubuhinzi bw'indabo, ubu ni ubuhinzi, ubuhinzi bukorwa burakorwa gukorwa bugamije kugira ngo ushake amafaranga cyangwa se bigakurura ba mukerarugendo bigatuma ahantu hasa neza bigatuma duhumeka umwuka mwiza, indabo nazo ni ingirakamaro cyane.

Shobora guhinga ubuhinzi bw'imbuto ariko izo mbuto ziribwa urugero inanasi, inanasi ni igihingwa bahinga, inanasi zikera hejuru, zera ahanini bazisasiye, izo mbuto rero zigira intungamubiri nyinshi cyane mu mubiri kuzirya bituma hari indwara zimwe zidashobora gufata.

Uburyo bwo kuvomera nabwo bworohereje abahinzi nko mu gihe cy'zuba, bituma imyaka yabo ikomeza kugenda neza nk'aho imvura iri kugwa kandi ari nayo. ubwo rero uburyo bwo kuvomerara nabwo ni ingenzi cyane, kuko bufasha abahinzi guhinga igihe cyose, batitaye ku gutegereza igihe imvura izagwira, kuko hari igihe ishobora gutinda.

Kuvomera, kuvomera ni uburyo butanga umusaruro cyane nko mu gihe k'zuba akenshi ibimera bikunda kuma, umusaruro ukabura ukaba mukeya ariko iyo dukoresheje uburyo bwo kuvomera bituma ibimera nyine bituma tukabona umusaruro mwinshi nubwo izuba riba riri kuva.

Kuvomera ni uburyo bwiza abahinzi bakoresha cyangwa babone umusaruro mwiza kandi uhagije. Mu gihe k'izuba rero tuba tugomba gukoresha imipira tukavomera kugira ngo imyaka ituma. Igakomeza igatohagira ikaba nk'aho ari mu gihe k'imvura noneho bikazatuma tubona umusaruro nkuwo twari dusanzwe tubona mu gihe k'imvura.

Abahinzi bashobora guhinga igihe cy'izuba kikagera. Iyo igihe cy'izuba kigeze kugira ngo ibihingwa bituma, dukoresha uburyo bwo kuvomerera, ukavomera cya gihingwa kugira ngo kituma kigakomeza gutohagira, nkaho ari mu gihe k'imvura. Ibyo rero bituma icyo bituma icyo gihingwa kituma, tukazabona umusaruro.

Izuba hari igihe riva rikaba igihe kirekire kandi ugasanga warahinze imyaka, ushobora gukoresha imipira cyangwa ugakoresha imashini kugira ngo uvomerere, uvomerere ya myaka itazuma, igakomeza igatohagira mbese ntigerweho n'izuba, ugasarura umusaruro nk'uwo n'ubundi wari usanzwe usarura mu gihe kitari ik'izuba.

Kuvomerara ni uburyo bwiza budufasha kongera umusaruro, kuvomerera imbuto kugira ngo zibashe kubona amazi menshi ariko by'umwihariko mu gihe cy'izuba ryinshi, mu gihe cy'izuba ryinshi imbuto nyinshi ziruma ariko iyo tuvomereye zirakomeza zigatohagira, zikaba neza, zigatanga umusaruro mwiza.

kuvomerera ni uburyo bwiza bushobora gufasha abahinzi kugera ku musaruro bifuza. Ushobora gutera imyaka ikirere kikagenda nabi, imvura ikaba yabura cyangwa se ikagwa nabi nabi, ariko iyo ukoresheje ubu buryo bituma ubona umusaruro n'ubundi nk'uwo wagombaga kubona, kandi utarategereje ko imvura ibanza yagwa.

Uburyo bwo gufuhira cyangwa se kuvomera imyaka bituma yerera igihe kandi abahinze bagahingira igihe kabone n'ubwo imvura yatinda kugwa kuko baba bafite uburyo bakoresha ibihingwa bikabona amazi bitagoranye ubwo rero ubwo buryo bufasha abahinzi cyane cyane nko mu gihe imvura yatinze kugwa imyaka yabo igakomeza ikamera.

ubu ni ubuhinzi b'wimicyayicyayi, buhingwa ahantu mu gishanga. Tubuvomerera rero mu gihe cy'izuba, kugira ngo butuma. Nyine iyo ubuvomereye bituma ubona umusaruro, ukabona amafaranga, cyangwa se ugasarura nyine umusaruro mwinshi ndetse bigufasha kwiteza imbere nyine tukanabona n'ibyokurya dusapulayinga mu masoko atandukanye.

Ahantu hari ibibaya ni byiza kubera ko bifasha ibihingwa bimwe na bimwe kuba wahahinga ibihingwa bitandukanye byaba ibyo kurya cyangwa se ibyo kugurisha. Aho hantu rero tuba tugomba kuhafata neza kubera ko niho dukura ibyo kurya byinshi bidutunga.

Ubutaka bwo guhinga buba bukenewe, kubera ko bituma tubona ibyokurya mu gihe cyagenwe, iyo duhinze aho hantu tugahinga neza kandi tugatera imyaka ituma hatagenda, ubwo rero ubutaka tuba tugomba kubwitaho.

Ubu butaka, ubutaka buri ahantu hicaye hatari misozi cyane hatuma tubona, tubona ibiribwa bigiye bitandukanye kandi hatanga umusaruro mwinshi cyane, cyane cyane nko kuhahinga ibihingwa bitanga amafaranga birungura cyane.

Ahantu h'ibibaya, ahantu hashashe, hafasha ahanini cyane cyane mubuhizi. Ubuhinzi aho hantu iyo umuntu ahakoreye ubuhinzi, bituma abona umusaruro mwinshi kandi mwiza, kubera ko ni ahantu nyine hashashe bakunda kwita mu gishanga. Aha hantu hatanga umusaruro mwinshi cyane kubujyanye n'abahinzi.

Ni byiza ko abantu batura batura mu midugudu ntibature mu bibaya, kubera ko mu bibaya hashobora gutwarwa n'amazi igihe abaye nk'umwuzure, niyo mpamvu abaturage bagirwa inama yo gutura ku mudugudu gusumba gutura mu bishanga.

Korora ukorora ubworozi bw'inkoko, ukarora ukorora ukorora ubworozi bw'inka, ukorara inkoko ugamije kubona amagi cyangwa se ukorora izo nka ugamije kubona inyama, noneho warangiza ukajya uzibika neza kugira ngo zitangirika ukazazikoresha igihe kirekire mu buryo kandi zitangiritse.

Ubworozi bwo mu rugo bwo korora inkoko butuma tubona amagi tukagirab ubuzima bwiza, kubona amafaranga, tukabona ifumbire kandi tukanagemurira n'amasoko kandi natwe ubwacu tukabaho neza kuko amagi arimo intungamubiri nyinshi cyane ubwo rero ayo matungo rero buri muntu wese aho ushobora kuwubona akwiriye kuwufata neza.

Ushobora korora amatungo magufi nk'ingurube ugamije wenda kubona ifumbire cyangwa ugamije kujya ubona amafaranga cyangwa ugamije kubona inyama cyangwa se ugamije kwagura ubworozi bwawe, ni ukuvuga kuzororeho uzikuraho izindi, ibi rero bitanga amafaranga menshi cyane, ni yo mpamvu tuba tugomba...

Kororera inkoko mu rugo bigusaba kuba ufite igishoro gihagije kugira ngo uzigurire ibyozi bizikenera zose nk'ibiheri cyangwa se n'ibindi bintu kugira ngo zongere umusaruro, zitere amagi menshi ubashe kubona amafaranga menshi, ubone n'amagi menshi.

Ushobora gukora ubworozi bw'inka, ukazororera mu biraro cyangwa se ukazororera mu misozi ugamije kubona amata yo kunywa cyangwa se yo kugurisha ukabona amafaranga ukanabaho neza.

Korora inkoko ni ingirakamaro cyane kubera ko bituma tubona ifumbire kandi bigatuma tugira, tubona n'umusaruro binyuze mu magi, igihe rero wahisemo korora izo nkoko uba ugomba kuzitaho ukazigurira ibyo zikeneye byose kugira ngo nawe ubone umusaruro ukeneye.

Ubworozi bwo kororera mu gasozi, bugira ingaruka nyinshi, inziza n'imbi. Ingaruka mbi ziriho n'uko uku ziba zigenda zirya ibyatsi ku butaka birashobora gushiraho ibyo byatsi gahita haba ahantu hameze nko ku mbuga, bikaba byakorohera kuba ahatwarwa n'isuburi, ntabwo ari byiza rero kororera mu gasozi kuko bitera n'umwanda.

Korora amatungo magufi bifasha buri muturage wese kuba yakiteza imbere kandi mu buryo bwihuse urugero nko korora amagi bituma ubona umusaruro mwiza iyo uzitayeho ukazigurira ibyo zikeneye byose kugira ngo zibashe gutanga umusaruro mwiza, uba ugomba kuzitaho rero hanyuma zigatanga umusaruro uhagije.

Ubworozi, ubworozi nabwo bushobora gutuma tugira ubuzima bwiza bitewe nuko woroye ushobora korora inka ukajya ubona amata ukagira ubuzima bwiza, ushobora korora inkoko ukajya urya amagi ukagira ubuzima bwiza, ubworozi bwose bushobora gutuma ubaho.

Mu bworozi bwo kororera mu rugo budufasha cyane kubera ko butuma tubona ibitunga imiryango yacu natwe ubwacu tukabaho neza, iyo twa iyo tworoye neza twayiseho uko bikwiye tugasagurira n'amasoko, tukiteza imbere kandi n'amasoko tukayasagurira.

Mu bworozi bwo kororera amatungo mu gasozi agenda arihisha ava ahamwe ajya ahandi, ntabwo ari byiza kubera ko bitera umwanda bikaba byatera isuri bitewe n'ukozishora amatungo ashobora kumisha ubwatsi noneho amzi akinjira mu butaka byihuse hakaba isuri. Tugomba kubyirinda kuko sibyiza.

Ubuhinzi bujyana no guhinga ibintu dusarura urugero wenda nk'amasaka, tugasarura ari amasaka yo hejuru nyine bakuramo igikoma cyangwa se bakaba bayakoresha mu kwega inzoga. Ibi nabyo bituma tubona amafaranga, tukanabona n'ibyo kurya, tukabona n'ibyo kunywa. Ibi nabyo ni ingirakamaro cyane turashishikariza abahinzi kubihinga.

Gukoresha abantu bize ibijyanye n'amatungo mu bworozi bwacu. Ni ingirakamaro cyane kubera ko baraduhugura, bakatwereka uko twakongerare umusaruro, uburyo bwiza bwo kororamo. Mbese umusaruro ukiyongera cyane. Tuba tugomba kubagisha inama rero iyo tugiye guhitamo umushinga wo korora amatungo bakatubwira uko babigenza.

Igihe tworoye amatungo, ni iby'ingenzi ko dukorana bya hafi n'abantu babyigiye, bigiye ibijyanye n'ubworozi kugira ngo babashe kudusobanura cyangwa se kuduhugura, uburyo bwiza twakoresha kugira ngo twongere umusaruro kandi n'amatungo yacu agakomeza kumera neza.

Abaveterineri ni ingirakamaro ku buzima bw'amatungo kuberako bafasha aborozi kubungabunga amatungo yabo bakareba ibyo amatungo yabo akeneye, bakabafasha ku bijyanye n'uko bayorora neza, aba bantu bize iby'amatungo rero na bo baradufasha cyane.

Iyo kugira ngo tworore tubone umusaruro mwiza, ni uko dushobora gukoresha abantu babyigiye, abaveterineri kugira ngo twongere umusaruro, bakaduterera nk'imiti, amatungo, cyangwa se bakagira ubundi buryo batwigisha bushya bwo kororamo, kugira ngo tubone umusaruro mwinshi, tubonee n'amafaranga menshi ,cyangwa se tubone umukamo mwinshi w'inka.

Aborozi baba agomba gukorana bya hafi n'ababantu bize ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatongo, kugira ngo babafashe babereke uko bakorora ayo matungo neza, kugira ngo babone umusaruro mwiza, bakazongerera vitaminini mu nshinge, mu binini, bakazitaho no mu bundi buryo butandukanye kugira ngo zitange umukamo ushimishije.

Ahantu hakorerwa ubworozi bw'amatungo, haba hagomba no kuba abaviterineri cyangwa se abantu bize ibijyanye n'amatungo no kwita kuri ayo matungo, bakayafasha kugira ngo akomeze gukura neza kandi atange n'umusaruro.

Abavuzi b'amatungo baba bagomba kwitwararika mu gihe bari gukingira amatungo cyangwa se bagiye kuyavura kugira ngo atabasha kubangiza, ibi ni ingenzi cyane kuko byagabanyije impfu z'amatungo kandi bituma umusaruro ukomoka ku matungo wiyongera cyane.

Abaveterineri ni ingirakamaro mu bijyanye no korora kubera ko bituma nyine ubworozi bwacu bugenda neza. Iyo woroye nk'itungo ushobora gutumira umuntu wabyigiye kugira ngo akubwira uburyo worora bwiza cyangwa akakubwira icyo wakora itungo ryawe rikeneye kugira ngo ryiyongeze mu musaruro.

Abavuzi b'amatungo nabo ni ingenzi cyane kuko bafasha aborozi bakabungabunga amatungo yabo bakayakingira ku buryo iyo bivuye kureyo matungo babirya ntibigire ingaruka zibatera kandi bakabikingira ku buryo nta ndwara zishobora gutera abazoroye ubwo rero aba bantu nabo ni ingenzi cyane.

Igihe woroye biba ari biba ari ingirakamaro, kuba ukorana n'abaveterineri bya hafi kubera ko abo bantu bize ibintu bijyanye n'amatungo, baragufasha, bakakwereka uburyo bwiza wakororamo amatungo yawe, uko wabigenza kugira ngo wongere umusaruro n'uko waziyitaho kugira ngo ubone umusaruro mwinshi kandi nazo uzikomeze gukura zimeze neza.

Korora kugira ngo tubone umusaruro mwiza uturuka mu bworozi tugomba kugira gukoresha nk'abaveteri, gutera inshinge bakatubwira uburyo twakongera umusaruro bakareba, bakangabunga ubuzima bw'iyo nka kugira ngo dukomeze kubona umusaruro mwiza uturuka mu bworozi.

Dufite abantu benshi bize, ibintu bijyanirana n'amatungo. Abo bantu mu gihe rero ufite itungo rikagira ikibazo, uba ugomba kubagana, cyangwa ushaka kumenya uko wakongera umusaruro w'ubworozi, ushobora kubagana, cyangwa se itungo ryawe ryagize ikibazo ryarwaye se, ushaka umuti runaka, ugomba kubagana bakagusobanurira ukuntu ufite.

Abantu baba barize ibintu bijyaniranya n'amatungo baba bagomba ku kuba ari abantu babizobereye bafitemo nyine ku buryo mbese bita ku itungo bakareba buri kimwe se yaba waba uri umworozi warwaza itungo ukaba wabatumaho ukababwira ikibazo itungo ryawe rifite.

Inyamaswa yitwa inzovu ni inyamaswa igira imbaraga nyinshi cyane inzovu igira inyamaswa nyinshi ku buryo nta muntu ushobora muntu ushobora kuyihangara kubera amahane yayo igira igihe rero uyibonye wenda utwayo nk'ikinyabiziga uba ugomba kureka ikabanza yatambuka aho kugira ngo uyangirize.

Urusobe rw'ibinyabuzima ni ibinyabuzima byose mbese bikubiyemo inyamaswa zose izo nyamaswa rero zishobora kudufasha zikaba nk'imiti cyangwa se zikaba zatuma tubona ibyo kurya zishobora n'utunyamaswa duto duba mu butaka dushobora gucamo imyanya ituma ubutaka bubona ubuhumekero bigatuma ubutaka bugabanya aside.

Ibinyabuzima tugiramo ibintu byinshi bityo inyamaswa zigiye zitandukanye inyamaswa rero ni nziza kubera ko zikurura ba mukerarugendo bakaza kuzisura bakaduha amafaranga noneho ayo amafaranga tukayifashisha mu bijyanye n'iterambere no kubaka ibikorwaremezo leta igenda yubaka hirya no hino.